Kuri iyi foto turabonaho ibiti byiganje mu ibara ry'icyatsi kibisi, tukaba tubonaho amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi, tukabonaho n'amatara yo ku muhanda.

Iragaragaraho abantu babiri; umwe akaba ari umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, akaba ari kumwe n'undi muntu, hakaba hariho n'umuhanda ndetse n'inyubako.